Mu nzu yo kwa muganga, ku gitanda hari ababyeyi batatu, umwe wo hagati araryamye agaramye, undi wo mu ruhande rw'ibumoso afashe uwo muntu uryamye, undi w'iburyo ari afite icyuma ari gukoza ku nda y'umwe wo hagati uryamye.

Abanyeshuri bari kunywa amazi mu bikombe, imbere yaho hari ikigega, bari kuvoma bakayanywa, abanyeshuri batandatu bambaye imyenda y'ishuri, abakobwa bane, abahungu babiri, bose bafite ibikoresho byo kunyweramo amazi.

Abaganga bicaye bambaye amakarita y'akazi n'abaturage bicaye bateze ukuboko, barimo kubatera agashinge mu ntoki n'abandi ku ruhande bategereje n'abandi bakorerabushake bahagaze aho igikorwa kiri kubera.

Amajerekani ari ku murongo ku mugezi, amazi ari kujyamo, umuntu umwe urimo kuvoma n'abandi bategereje inyuma bafite amajerekani baje kuvoma amazi. Amajerekani menshi n'umuntu umwe urimo kuvoma, amajerekani ateretse.

Abaturage bari hanze, iruhande rwabo hari imodoka, muri abo baturage harimo abadaso, inyuma y'imodoka bubatse amatente no muri abo baturage higanjemo abambaye imyenda y'umutuku, umuhondo, hirya mu baturage hari imodoka iri hirya yabo hari abaturage benshi.

Ijerekani iri ku mugezi n'indi imwe iri inyuma yayo, n'inyuma yayo hakaba indi jerekani, zose zikaba ari ijerekani eshatu, umwana umwe ari kuvoma ku mugezi, yatezeho imwe, izindi ebyiri ziri inyuma yayo, ntiziravomwa.

Mu ishuri harimo umwana wicaye ku ntebe yambaye ishati y'umweru na karuvate y'umukara arimo kurya biswi ayifite mu kanwa, yicaye ku ntebe n'ameza imbere ye, inyuma ye harimo izindi ntebe n'abandi bana bari muri iryo shuri inyuma ye.

Imbere y'umuryango hari abamama, abapapa bahagaze ku murongo, imbere hari hahagaze batanu, inyuma hahagaze batatu, hagati hahagaze batandatu, bahagaze imbere ari abakobwa babiri, abagabo batatu.

Aricaye, arababaye, yifashe ku matama, ntabwo ameze neza, hari n'undi muntu uri kumufata ukuboko ariko agakomeza yifashe ku matama, bose baricaye.

Abanyeshuri batoya bamanitse amaboko, bishimye bameze neza bari mu kibuga, ni benshi cyane, hari abari imbere abari inyuma, bazamuye amaboko bambaye inifomo, n'ikirangantego cy'igihugu kiri inyuma.

Arasamye ari kumureba mu kanwa, yambaye ga n'agapfukamunwa, undi aricaye, arasamye bari kumurebera mu kanwa, bafashe ku menyo, bareba ikibazo yaba afite mu menyo.

Mu kanwa harimo amenyo y'umweru maremare, iruhande rwo hasi n'urwo hejuru havanzemo utuntu tw'umweru n'umukara, ishinya iriho umweru hejuru n'umukara, no mu ruhande rwo hasi harimo umukara n'umweru uvanzemo.

Yicaye mu kagare hari n'undi uri kumupima ukuboko wamushyize igipimo ku kuboko, mu kagare k'umukara, ni umukecuru wishimye umeze neza udafite umusatsi mwinshi.

Abakecuru bari kugendera ku nkoni, bambaye imyitero n'imipira y'umutuku n'abandi bantu benshi bari kuza bose bari mu nzira imwe, bari mu cyerekezo kimwe, bambaye imipira itukura n'undi w'imbere wambaye umupira w'umweru n'ibara ritukura imbere ku mupira.

Mu nzu harimo abamama babiri n'umwana umwe n'ameza ariho amasahani n'ahandi hejuru ho kumanika imyenda, no hirya hariho ameza yo guterekaho ibikoresho, umwana afite imboga mu ntoki, aba bamama bafite imisatsi bose ndetse n'umwana afite imisatsi.

Ku rupapuro hari amagambo yanditseho, hamwe hari aharimo ibara ry'umukara ryanditsemo amagambo y'umweru, ahandi harimo umukara utijimye handitsemo amagambo atagaragara, n'ahandi ku ruhande handitsemo amagambo magufi atari maremare mu ibara ry'umukara, ayo magambo yandikishije umweru.

Kwa muganga hanze utarinjira mu nzu, hari abantu bicaye, hari ameza ateguyeho igitambaro, hari abantu bahagaze babiri, umwe yambaye agapira k'ubururu, uw'umugabo yambaye agapira k'ubururu n'ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, n'abandi bicaye.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ibiri, abantu barimo imbere mw'iyo nzu, umumotari ku ruhande rw'iyo nzu, imodoka, iyo nzu y'ubucuruzi bw'imiti, ifite imiryango ibiri.

Amarembo yinjira mu bitaro ibirangantego byerekana aho ibitaro biri n'akazu karimo imbere ka etage, ibendera n'akazu k'umuhondo karimo imbere winjiye kuri uyu muryango winjira mu bitaro.

Inzu itari nini ifatiye ku yindi nzu nini isakaye, inzu ifite imiryango ibiri, amadirishya ane n'akandi kantu imbere ku miryango.

Inzu y'abarwayi, ibyuma byifashishwa mu kwita ku barwayi, ibitanda bibiri, utumeza two gufasha ibikoresho by'abarwayi, n'akabati ko kubikamo ibikoresho biri mu nzu y'abarwayi.

Umupira w'icyatsi wambawe n'umusore, k'uwo mupira hakaba hariho akantu k'umweru, uwo musore afite amaboko abiri n'igihimba, umutwe ntugaragara, mu maboko y'ibumoso harimo umupira wa baro, awufite mu ntoki.

Abaturage babiri, bambaye imyenda y'umukara n'ibikapu hasi, bicaye ku ntebe y'imbaho, y'urwegamiro, umwe aricaye ari kunywa, undi arahagaze.

Umuntu uryamye ku buriri yambaye inkweto, bari kumukanda, arahagaze, ari kumukoreshaho amaboko abiri n'undi na we aryamye yubitse inda, ari kumufasha.

Gushyira ibipfuko mu ntoki, afite mu ntoki ibikoresho byo ari gupfukisha amaboko abiri n'amaguru biri kugaragara, umuntu ari gupfuka; ari gushyiraho ibintu ku ntoki, umwe aricaye undi arahagaze, imbere yabo harimo ikintu kibitsemo ibyo bikoresho.

Mu nzu y'abarwayi, abarwayi bicaye ku bitanda abaganga bahagaze barimo kuvura abarwayi, bambaye udupfukamunwa, abarwaza bicaye ku bitanda, abarwayi bararyamye, abaganga barahagaze bareba mu cyuma gipima abarwayi.

Imyitozo ngororamubiri. Yicaye hasi, yarambuye amaboko abiri, yayakojeje ku rukweto, ukundi kuguru kurihinnye, ukundi kurarambuye, arimo agorora amaboko akora imyitozo, yicaye hasi, afite n'ikintu mu kuboko

Ibinini bitandukanye, biri hasi, bivangavanze, buri bwoko hari ibyegeranye, hari n'ibitegeranye, byose biri hasi, ku ruhande hariho n'urushinge, ibinini bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Ibibabi byinshi cyane, birebire, bitohagiye, byegeranye cyane, bicucitse bitari birebire, bitari na bigufi, ni byinshi cyane. Mu murima aho biri bimeze neza.

Amababi menshi cyane hasi ni menshi, ibiti bihagaze bitabyibushye naho hariho amababi menshi, ahantu hafatanye, hagizwe n'amababi menshi cyane.